Ibikoresho bikoze mu biti bimanitse mu bwoko bw'imiti igiye itandukanye, ndetse n'umuntu w'umugore wambaye amataburiya y'umweru, bigaragara ko ari we ukoresha iyi miti, igihe ari kuvura abantu.

Ahantu hagaragara ko hadahingwa, hari amabuye azwi nk'amakoro, ndetse aya mabuye akoreshwa mu bikorwa byo kubaka amazu yo kubamo, ibitaro, ibiraro ndetse n'ibindi.

Ubwoko bw'ikimera kera imboga abantu barya cyitwa shushu, gifite amababi agandaye cyane, kandi kiba kimeze nk'ikintu kirandaranda nk'umugozi.